Abana babiri bafashe igikombe umwe ari gukarabya undi bambaye imyenda y'umutuku bose, inyuma yabo hariyo ibiti byinshi cyane, hejuru hari ikirangantego cy'umuryango uharanira uburenganzira bw'abana.

Umubyeyi ufashe umwana, umugabo uhagaze wambaye impuzankano w'umunyabuzima, abandi bicaye bigaragara ko bazanye abana kubapimisha ibiro, umunzani uri hejuru upima ibiro by'abana ndetse n'igikuta kiriho ibyapa.

Umugore wicaye ahagatiye umwana mu biganza ku ruhande rwe hicaye, undi mwana hahagaze undi mugore ubisa naho agiye gukingira umwana, undi mukobwa wicaye mu ntebe afashe ibitabo n'ikaramu bigaragara ko arimo gusoma.

Ivomo umwana urimo kureka amazi yaje kuvoma abandi bana benshi cyane bambaye impuzankano y'ishuri bigaragara ko bavuye ku ishuri mu gahanda k'agaharuro iwabo, hari amazu yubakishijwe amategura, hakurya hari n'imisozi miremire iriho ibiti.

Umwana mutoya w'umunyeshuri wambaye impuzankano iri mu mabara y'umweru n'umukara, arimo gufungura indobo irimo amazi yo gukaraba intoki, iri mu mabara y'umweru, ipfundikijwe umufuniko w'ubururu irambitse ku meza y'igiti n'ibyuma.

Umugore uhetse umwana, afashe umufuniko w'indobo, arimo kuwoza impande y'umugezi. Indobo imwe iri mu ibara y'umuhondo, indi mu ibara ry'umutuku zegeranye. Hirya hari ibiti byinshi cyane ndetse n'igice cy'ikirere kitarimo imvura kihagaragara.

Inzu mberabyombi irimo umugabo uri hejuru ku ruhimbi, iruhande rwe hari intebe ndetse n'ameza ariho ibikoresho birimo amazi n'amacupa arimo ayo mazi, inyuma hari insakazamashusho iriho insanganyamatsiko ari kuvugaho.

Umuganga ufashe ikayi n'ikaramu, ari gukora ku itama ry'umwana muto wambaye ingofero, bigaragara ko ari kumusuzuma indwara. Umucecuru wicaye iruhande rwe, ndetse n'abandi batonze umurongo, bari inyuma yabo, bigaragara ko baje kwivuza kwa muganga.

Abagore n'abagabo mu nzego no mu ngeri zitandukanye barimo bafata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hari icyapa kinini cyane kiri mu mabara y'ubururu yandikishijweho ibara ry'umweru ndetse bari mu nzu mberabyombi nini.

Agatanda banikaho ibikoresho byo mu rugo byo mu gikoni bitandukanye birimo amasahani ibikombe amabase ku ruhande hari insina ndetse n'uruzitiro rukozwe mu biti nyuma hagaragara inzu .

Umubyeyi ufashe umwana mu ntoki ndetse afashe n'ikarita ya mituweli n'urupapuro yambaye n'ibikomo mu kuboko, hirya hari abandi benshi cyane bafashe abana ndetse bari mu nzu nini cyane mberabyombi ifite n'amatara.

Umwana wicaye mu ibase nyina arimo kumwoza ndetse n'ivomo riri aho ngaho bari kogerwa abandi benshi baje gushaka amazi bitwaje ibikoresho birimo indobo, inyuma hari inzu nini ndetse n'ikirere kiri mu mabara y'ubururu kidafite imvura.

Imodoka y'imbangukiragutabara abaturage benshi bateraniye ahantu hamwe, harimo abana abagore bato ndetse n'abakuze inzu nini cyane yubakishijwe amabuye ndetse n'ibendera ry'igihugu cy'u rwanda.

Umugore wikoreye indobo y'umutuku afashe n'indi mu ntoki y'umuhondo arimo ava kuvoma amazi imbere ye hari ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti agatanda banikaho ndetse n'umugozi banikaho imyenda barangije kumesa.

Umwana mutoya wambaye imyenda y'umutuku arimo areba ku ruhande aseka cyane ,arimo kuvoma akaba intoki hirya hari ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti, kuhande rw'iwabo hariho icyapa kiri mu mabara y'umweru n'ibindi by'umukara bihanditse.

Umuzungu urimo ufashe telefone afata amashusho y'umugabo urimo gukorera umwana ikibuni kirimo amazi yambaye agapfukamunwa, amadarubindi, ingofero, n'umupira, biri mu mabara y'ubururu, inyuma ye hahagaze abandi bantu benshi ndetse n'amazu bigaragara ko ari mu cyaro.

Abayobozi bo mu nzego nkuru z'igihugu bagiye batandukanye, barimo gufata ishusho y'urwibutso muri bo harimo ndetse n'abazungu, abagore ndetse n'abagabo, inyuma yabo hakaba hari isakazamashusho iriho amagambo menshi, bigaragara ko ari insanganyamatsiko bari kuvugaho, ikaba iri mu mabara y'ubururu.

Ivomo ririho amabuni bari kuvoma umugore wunamye ari kuvoma amazi inyuma ye hari ibyatsi byinshi cyane ndetse n'ibiti ku ruhande rw'ivomo hari umukingo ndetse n'ibindi byatsi n'ibindi bibuni birimo kuvoma.

Umubyeyi ufashe umwana mu biganza ku ruhande rwe hicaye undi mwana mutoya w'umukobwa hakurya hari undi mugore uhagaze bigaragara ko agiye gutanga urukingo, wicaye ku ruhande mu ntebe afashe ibitabo n'amakaye bigaragara ko ari kwandika nyuma ya hari inzu ifite idirishya ry'umukara.

Abana batoya b'abanyeshuri bose bari ku migezi hari amavomo atatu, hasi hari indobo barimo kuvomeramo abandi bakaraba intoki kuri ayo mavomo, inyuma yabo hakaba hari inzu itagaragara neza ndetse n'ibiti by'indabyo.

Abana batoya bambaye impuzankano y'ishuri mu mabara y'umuhondo, bazamura bose ibiganza bishimye, inyuma y'aho hari abayobozi b'inzego zitandukanye, hakaba hari abera ndetse n'abirabura bazamura ibiganza na bo basuhuza bari mu muryango.

Abaturage bafite ibidomora biri ku murongo ku mugezi barimo kuvoma amazi, abagore babiri n'umwana mutoya w'umukobwa baje kuvoma inyuma y'ivoma hari insina nyinshi ndetse n'ibindi biti bitandukanye.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abantu b'abayobozi b'ingeri zitandukanye; abirabura ndetse n'abazungu; ku meza harambitse ibikoresho bitandukanye birimo amacupa arimo ibyo kunywa ndetse n'indabyo; imbere hari isakazamashusho nini ndetse n'inzugi zinjira muri icyo cyumba zikozwe mu biti.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye abagore n'abagabo bateraniye hamwe mu nzu irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byinjiza umwuka mwiza mu cyumba barimo, bicaye ku ntebe z'umukara ku meza imbere hari ibikoresho bitandukanye birimo ibikapu byabo.

Abagore babiri bicaye kumeza bifashe mu biganza bamwe muri bo bambaye amasaha ku kuboko abandi bakenyeye ibitambaro mu mutwe, inyuma yabo hari amabendera ari mu mabara y'ubururu ndetse n'ibitambaro biri mu mabara y'ubururu.

abantu b'ingeri zitandukanye ziganjemo abagore abana ndetse n'abagabo umwe muri bo ba ahagaze imbere yabo afashe ibitabo amakaramu arimo atanga inama n'ibiganiro inyuma hari inzu yubakishijwe imbaho n'urugi rw'ibyuma rumanitseho igipapuro .

Umubyeyi ufashe umwana mu biganza ari kumwe n'abandi bantu ku ruhande, wambaye imyenda yikwije afashe igikoresho gipima umuriro, agapfukamunwa ndetse n'indorerwamo, ku ruhande hari undi mukobwa wambaye ingofer, hirya hari amazu menshi cyane ndetse n'amazi yo mu kiyaga.

Umugore witandiye ibitambaro, yambaye indorerwamo ndetse yafunze n'imisatsi inyuma, inyuma ye kandi hari abana batoya benshi biganjemo abambaye impuzankano ya kinyeshuri, bigaragara ko bakikije mwarimu wabo cyangwa se umubyeyi wabo.

Umwana mutoya w'umunyeshuri, wambaye impuzankano ya kinyeshuri iri mu mabara y'umutuku yiganje, arimo gukaraba mu ibase intoki, ndetse n'ibizigira by'ayo, ku ruhande hari inzu zubakishijwe amatafari, bigaragara ko ari amashuri.

Ni umuganda, abantu b'ingeri zitandukanye bambaye impuzankano y'abaturage ndetse n'ab'inzego z'umutekano, biganjemo ibara ry'umutuku barimo gutera indabyo ndetse n'imbuto, barimo bacukura imyobo ku yindi bashiramo ingemwe.

Imifuka myinshi abantu; benshi bari hafi aho; abagore babiri bateruye umufuka bajya kurunda ku wundi; ku ruhande hari ibyatsi byumye cyane ndetse hejuru hari ikirere gisa n'ubururu; bigaragara ko bugorobye ari ni mugoroba.

Icyapa kirimo umugore uteruye umwana bari mu ruziga rwubatse bigaragara ko ari umubumbe w'isi. Ku ruhande hazengurutswe n'amababi y'icyayi mu mabara y'ubururu.

Umugabo urimo amwenyura aseka cyane agaragaza amenyo ndetse yiyogoshesheje yambaye ishati irimo imirongo n'ipantaro y'umukara, afashe ku kibuni ari impande y'umugezi, inyuma ye hari ibya byinshi ndetse n'uruzitiro.

Inzu mbera byombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye abirabura ndetse n'abazungu, imbere ku meza hari ibikoresho birimo impapuro amakaye amacupa arimo amazi yo kunywa, ndetse na za mudasobwa, inyuma yabo hari inzugi zinjira mu nzu barimo zibajwe mu biti.

Umunyamuziki mu ndirimbo zo guhimbaza imana Isirayeri Mbonyi. Arimo guha umwana amata ufashwe na nyina, bigaragara ko bari mu gikorwa cyo kwita ku bana. Abandi bantu benshi cyane nabo bitabiriye icyo gikorwa bafashe abana.

Umubyeyi ufashe ikidomo arimo kureka amazi ku isoko ry'umugezi abana babiri bari iruhande rw'umugezi ndetse n'ibibuni byo kuvomesha amazi inyuma yabo hari ibyatsi bimeze nk'ahari indabyo ndetse ku ruhande hari n'ikindi kibuni.

Sura u Rwanda umugabo ndetse n'umuzungu bafashe ku gitambaro cyanditseho sura u Rwanda, inyuma yabo hari ibyapa ndetse n'isakazamashusho zitandukanye ziriho imiryango mpuzamahanga.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abashinzwe ubuganga, bigaragara ko bari mu mahugurwa kuko bafashe amakaye, amakaramu, bari kwandika abandi bambaye impuzankano, inzu ifite amadirisha y'ibirahure ndetse n'inzugizo zibajwe mu biti.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga birimo za mudasobwa ndetse n'inanga. Indahuzo zazo amafoto ari ku bikuta abantu babiri bicaye ku meza hari amacupa arimo amazi yo kunywa.

Abasore n'inkumi bateraniye hamwe bambaye udupfukamunwa, imbere yabo ku meza hari ibikoresho bitandukanye birimo amakayi, amacupa arimo amazi ndetse bambaye n'impuzankano iri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umweru, bakaba bambaye udupfukamunwa turi mu mabara y'umukara.

Abantu b'ingeri zitandukanye b'abagore ndetse n'abagabo benshi bafashe ibipapuro mu ntoki, abandi babihererekanya, abandi babisoma. Ku ruhande hari imodoka, ibiti byinshi ndetse n'amazu bigaragara ko ari ahantu mu murwa.

Kwa muganga umurwayi wicaye mu gitanda barimo kumupima umuvuduko w’amaraso. Umuganga wambaye impuzankano ndetse n'amadarubindi, undi kuruhande ufashe ibitabo n'amakaramu arimo kwandika, ikirahure cyinjiza urumuri mu cyumba.

Ivomo ririho abana babiri umwe afashe igiti arimo gupompa ngo amazi ajye mu kabuni, hari hirya ibyatsi byinshi cyane ndetse n'imisozi itagaragara neza n'ikirere kirimo akazuba gake.

Ababyeyi b'abagore bambaye bikwije abandi bambaye amakote, bigaragara ko bafite urumurimo runaka, cyangwa se ari abakangurambaga, inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari ahiye, ndetse n'amadirishya n'urugi birimo ibirahuri, hejuru hari ikirere kidafite imvura.

Abana bicaye bose hasi bari kumwe n'abazungu ndetse n'abirabura n'abandi bayobozi babo, kuruhande hari ameza ariho ibikoresho bitandukanye birimo amasahani ndetse n'amacupa.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye abagore, abagabo benshi muri bo bambaye amakarita mu gatuza, ku meza harambitse ibikoresho bitandukanye birimo amacupa arimo imitobe ndetse n'ibikapu n'impapuro bicaye mu ntebe z'umukara.

Abana bato bahagaze ahantu mu muserege ucamo amazi, bamwe muri bo bambaye ibirenge abandi bambaye inkweto kandi bafashe ububuni bagiye kuvoma, inyuma yabo hari ibyatsi byinshi cyane.

Turi kumwe urupapuro ruriho amashusho menshi ndetse n'amagambo menshi ari mu mabara y'umukara ndetse n'ubururu, umuntu uri hagati y'amabendera harimo ry'igihugu cy'u Rwanda, n'iriindi riri mu mabara y'ubururu rigizwe n'izuba ndetse n'icyatsi.

Abayobozi bo mu nzego zitandukanye higanjemo urubyiruko, abashinzwe umutekano ndetse n'abandi barimo bafata ishusho y'urwibutso ku ntebe bicaye abandi bahagaze, inyuma yabo hari ibyapa bigaragaza insanganyamatsiko bari kuvuga ho.

Icyapa kiriho amashusho agiye atandukanye harimo abantu benshi bamwe bicaye ku ntebe abandi bahagaze, inyuma yabo hari amazu bigaragara ko bari gufata ifoto y'urwibutso, ku ruhande hariho ibindi birangantego by'ibigo bitandukanye.

Umugore ufite imisatsi miremire wambaye wikwije imyambaro iri mu mabara y'umukara ndetse n'umutuku, wifashe mu biganza neza arimo areba aseka amenyo agaragara ndetse n'amatwi n'amaso, inyuma ye hari icyapa kiri mu mabara y'umutuku n'amagambo ari mu mabara y'umweru kitagaragara neza.

Mu nzu y'inama harimo umugabo n'umugore. Umugabo yambaye agapfukamunwa ndetse n'ikoti ry'umukara, ku meza harambitse ibikoresho bitandukanye birimo amacupa y'amazi, indahuzo n'ibindi. Inyuma hari ibyapa bigiye bitandukanye, biriho ibirangantego by'igihugu ndetse bimwe byanditseho amagambo ra, ba na ca.

Kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye, abantu b'ingeri zitandukanye higanjemo abashinzwe umutekano ndetse n'urubyiruko bambaye impuzankano yiganje mu mabara y'icyatsi n'umukara, umwe afashe indangururamajwi n'urupapuro asoma ubutumwa.

Umusaza wicaye, yambaye ikabutura ndetse n'umupira w'umutuku, bamuhereza ibipapuro. Yambaye amapingu mu kuboko, inyuma ye hari igice gitoya cy'abashinzwe umutekano, ndetse n'abantu benshi bamuzengurutse, higanjemo abakobwa ndetse n'abasore.

Mu nzu mberabyombi, iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye, higanjemo abagore ndetse n'abagabo. Umugore ufashe igikapu mu ntoki, wambaye isaha, imbere ye, hari undi wambaye umupira w'umutuku, arimo amwegera. Inzu igizwe n'ibirahuri ndetse n'isakazamashusho ku gikuta.

Munzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye imbere ku meza hari ibikoresho birimo amacupa arimo amazi ndetse n'amakayi n'impapuro bari kwandika hari insakaza mashusho imbere ndetse umugore uhagaze bigaragara ko ari gutanga ikiganiro inyuma ye hari icyapa kiriho insanganyamatsiko ari kuvugaho.

Abana benshi bishimye bakiri batoya cyane, bose baseka bigaragara ko bizihiwe bakaba bicaye bateraniye hamwe, bamwe bahagaze inyuma y'abandi kandi barimo bamwe bazamura ibiganza.

Umugore wicaye iruhande rw'igiti afungishije iminyururu mu kuguru yicaye ku kirago, inyuma ye hari ibindi biti byinshi cyane ndetse n'ikindi cyandikishijweho amagambo, kuruhande hari umufuka ndetse yifashe mu mavi.

Umuntu wipfutse mu maso udafite umusatsi mwinshi wambaye umwenda w'umukara inyuma ku gikuta hasize irangi ry'umweru ndetse n'agatanda karambitseho ibitabo byinshi gakozwe mu giti.

Abayobozi bo mu nzego z'igihugu batandukanye, biganjemo abagore ndetse n'abagabo. Ku ruhande rwabo hari icyapa kiriho insanganyamatsiko, ndetse bari imbere y'urugi rwinjira mu nzu mberabyombi, bigaragara ko bari gufata ishusho y'urwibutso.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye, higanjemo abagore ndetse n'abazungu barimo bakoma amashyi, bigaragara ko bari kuririmba, ku meza harambitse ibikoresho bitandukanye birimo udutabo ndetse n'amacupa arimo amazi yo kunywa.

Ababyeyi batatu, umwe muri bo afashe umwana arimo kumwonyereza mu kwaha ndetse n'umufuka n'igiti cy'urubingo, n'undi muri bo wafashe igiti cy'urubingo, undi afashe umuhini w'isuka, bifashe no mu manyankenya, inyuma yabo hari imisozi iriho amashyamba n'ibiti.

Umuntu wicaye ku mukingo mu muserege ugenderwamo amazi, iruhande rwe hari ibikoresho bitandukanye birimo ububuni bw'amazi ndetse n'amashashi. Ku ruhande hari umucaca aho yicaye bigaragara ko ari mu murima, afite umusatsi mwinshi cyane, bigaragara ko ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe.

Mu nzu mberabyombi hari abantu b'ingeri zitandukanye biganjemo urubyiruko ndetse n'abakuze, hakaba arimo n'umuzungu abenshi muri bo bakaba bambaye imyenda y'impuzankano iri mu mabara y'ubururu ndetse harimo n'umugabo muremure wambaye ishati y'umweru n'amadarubindi bigaragara ko ari umuyobozi.

Umugabo udafite umusatsi mwinshi urimo aseka inyuma ye hari abandi bantu benshi cyane b'ingeri zitandukanye, harimo abambaye imyenda y'imituku ndetse n'igishushanyo kibajwe kirekire cy'ingagi.

Imodoka nini cyane y'ubuvuzi itangirwamo ubuvuzi ifite ibirahuri ndetse n'imbere muri ibyo birahuri harimo imyenda ikingiriza abimbere, hejuru hari naho guhagarara, iruhande rwayo hicaye abantu b'ingeri zitandukanye benshi muri bo bambaye imyenda y'ubwirinzi n'udupfukamunwa ku ruhande hari amazu n'ibyatsi.

Abagabo babiri umwe wambaye yikwije undi yambaye imyenda yacikaguritse afite imisatsi myinshi idakase ndetse n'ubwanwa bigaragara ko ashobora kuba afite ikibazo cy'imitekerereze nyuma yabo hari inzu ifite ibara ry'umuhondo .

Umugabo uri mu kayira nyabagendwa gaturanye n'umuhanda mugari, wambaye imyenda ishaje yacikaguritse ndetse afite n'imisatsi myinshi cyane n'ubwanwa, bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, umuhanda muremure ndetse n'ibiti biwukikije.

Umugabo ufite imisatsi myinshi cyane ndetse n'ubwanwa bwinshi cyane, wambaye imyenda yacikaguritse, bigaragara ko ari mu isoko, inyuma ye hari inzu ndetse n'aho abantu biyakirira, bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umugabo w'umusaza ufite imisatsi myinshi cyane ndetse wakutse amenyo bigaragara ko ashaje afite ubwanwa bwogoshe yakenyeye umwitero yambaye imyenda iri mumabara y'ubururu, inyuma ye hari abandi benshi cyane bigaragara ko nabo bikenyeye ndetse n'ibyatsi bitari kugaragara neza ku ruhande rwabo.

Umwana uryamye yasamye bafashe udukoresho two kwa muganga bari kumupima amenyo, ibiganza byambaye imyenda y'ubwirinzi ndetse bigaragara ko ari abaganga, barimo kumupima indwara zo mu kanwa.

Ba muganga b'amenyo bambaye bikwije, ndetse n'umurwayi wasamye, barimo kumukura iryinyo. Bambaye udupfukamunwa, amadarubindi manini, ndetse n'imyenda yabugenewe, y'impuzankano y'abaganga. Hirya hari ibikoresho bitandukanye, bifashisha mu gukura amenyo.

Umusore uri mu cyumba kwa muganga bagaragaza igice cyo hejuru kigizwe n'ubwanwa, umunwa arimo aseka, amazuru, amaso, ndetse n'umusatsi, n'amatwi. Umuganga wambaye wikwije afashe igikoresho agiye gupima indwara.

Abakobwa babiri bafashe amakaye ndetse n'amakaramu, umwe ku ruhande wambaye amadarubindi, ufite imisatsi miremire, akaba arimo kwandika, ndetse yambaye n'impeta ku kaganza. Ameza ariho ibikoresho bitandukanye, birimo amacupa, amasahani, ndetse n'amatelefoni.

Icyumba kwa muganga, umwana wicaye mu ntebe y'igiti yambaye agapfukamunwa yasamye, abaganga babiri umugore n'umugabo bambaye bikwije imyenda y'ubwirinzi irimo udupfukamunwa, uturinda intoki ndetse n'impuzankano mu mabara y'umweru, ameza arambitseho ikaramu ndetse n'impapuro, basamura akanwa k'umwana bigaraga ko bari ku mupima indwara zo mu kanwa.

Umwana wegamye barimo kureba amenyo ye uko ameze, intoki zambaye zikwije imyambaro y'ubwirinzi zirimo zikora mu kanwa k'umwana bigaragara ko ari umuganga urimo gusuzuma uko amenyo y'umwana ameze inyuma ye hakaba hari ibara ry'umutuku.

Mu cyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye birimo intebe ndetse n'ibindi bifashisha bapima abarwayi, isaha iri ku gikuta ndetse n'isakazamashusho, urugi rwinjira muri icyo cyumba.

Abantu b'ingeri zitandukanye harimo abana ndetse n'abakuze, bamwe muri bo bambaye impuzankano iri mu ibara ry'icyatsi, imbere ku meza harambitse imiti yifashishwa mu kwica udukoko two mu kanwa, no gukora isuku mu kanwa bicaye mu ntebe zibajwe mu biti.

Umurwayi urwaye amenyo ibiganza bifasha ibikoresho barimo gusuzuma amenyo y'umurwayi byambaye byikwije neza imyambaro y'ubwirinzi ndetse bigaragara ko ari umuganga w'amenyo urimo kumukura amenyo .

Umusore n'umukobwa bigaragara ko umwe ari umurwayi, bari kumupima amenyo arimo yasamye arebana na muganga wambaye imyenda y'ubwirinzi mu ntoki, ndetse afashe n'ibikoresho bifashisha mu gupima.

Umugabo bigaragara ko akuze, wambaye indorerwamo, afite imisatsi y'imvi, afashe imiti mu ntoki. Ari aho bakarabira hari umugezi, ndetse n'icupa irimo imiti yica udukoko. Imbere hari indorerwamo yigaragaza.

Umusore n'inkumi bose bifashe ku kanwa baseka, bagaragaza amenyo y'imbere, bafite imisatsi miremire uwo umukobwa ndetse n'umusore afite imisatsi, bambaye imyenda y'umweru hejuru, undi afashe igitambaro ku rutugu w'umuhungu.

Ikirere gikeye, ibiti birebire ndetse n'amatara yo ku muhanda. Abaturage b'ingeri zitandukanye, bamwe muri bo bafashe ibipapuro bari ku murongo, bigaragara ko bari gupima indwara runaka. Icyapa kiriho r,b na c bigaragara ko ar’ikigo cy'ubuzima mu rwanda.

Abana batoya b'abanyeshuri bambaye impuzankano buri wese afashe igikombe ndetse n'igikoresho cyo gusukura amenyo barimo gusukura amenyo, bamwe banywa amazi bayacira, abandi barimo gusukura amenyo n'umuti wabigenewe.

Umukobwa uhagaze undi yicaye yambaye yikwije imyenda y'ubwirinzi irimo udupfukamunwa ndetse n'indi yo mu biganza n'impuzankano, ku meza hari amakaye ndetse n'impapuro n'amaterefone undi yasamye barimo kumupima indwara zo mu kanwa, ku ruhande hari abandi bagenzi babo b'abaganga.

Abantu b'ingeri zitandukanye bari mu cyumba hamwe harimo abana batoya ndetse n'ababyeyi babo, bigaragara ko bari kureba isakazamashusho, inyuma yabo hari ibikoresho birimo ibyo babikamo ibyo kunywa ndetse n'amazi.

Abagabo babiri bakuze umusaza ndetse n'undi musore, yambaye isaha ku kuboko n'ingofero ukuze bari mu kayira gato ya nyabagendwa, iruhande rwako hari ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti binini by'inganzamarumbo.

Umusaza bigaragara ko bari kumwoza ufite imisatsi y'umweru ndetse akaba ashaje yahumirije atinya amazi, ibiganza n'intoki by'igice cy'umuntu birimo gukunnyura uwo musaza mu mutwe.

Umusaza wambaye indorerwamo ufite ubwanwa ikirere gikeye kitarimo imvura arimo arambuye amaboko ari gukora imyitozo ngororamubiri. Inyuma ye hari ibiti ndetse n'ibyatsi.

Umubyeyi uri gukina n'umwana we umukino w'intoki wo gushyira mu gukangara. Ikibuga barimo gukiniramo ndetse inyuma hariyo indabyo nyinshi n'ibyuma bizitiye icyo kibuga.

Umusaza ukuze wambaye umupira ari kumwe n'umukecuru we arimo amusindagiza amusohora hanze ku ngazi, ufite agapfukamunwa ku munwa ndetse n'amadarubindi.

Abantu b'ingeri zitandukanye abagore n'abagabo ndetse n'abana, buri wese afashe igikoresho abazamuye amaboko yabo hejuru mu kirere bari mu murima urimo imyaka itandukanye, irimo amasaka ndetse n'ibindi byatsi byinshi.

Umucecuru ukuze urimo aseka arambuye amaboko ye yose ari kumwe n'umukobwa we amuramburira ukuboko bigaragara ko bari mu myitozo ngororamubiri bari mu cyumba hari amadirishya agizwe n'ibirahure ndetse n'ibiti.

Umucecuru n'umusaza ku meza, imbere yabo hari ibikoresho bitandukany, birimo amadarubindi, ibikombe, ndetse n'imiti y'ibinini. Bambaye bose imyenda y'umutuku, bafite imisatsi y'imvi.

Abantu b'ingeri zitandukanye, higanjemo abana ndetse n'abakuze. Abacecuru babiri bafashe utubando, barimo bagenda mu muhanda w'igitaka, inyuma yabo hari ibiti ndetse n'ibyatsi, insina, n'amazu yo guturwamo. Ikirere kirimo akazuba.

Umusaza n'umukecuru bicaye afite imvi ndetse n'uruhara, umukecuru afite imisatsi myinshi. Afashe icyuma cy'ikoranabuhanga terefone, mbere ku meza hari radiyo ndetse n'intebe ibajwe ku ruhande hari idirisha ririmo ibirahuri.

Umusaza ukuze, ufite ubwanwa bw'imvi ndetse n'uruhara, barimo kumwambika isaha ipima umuvuduko w'amaraso ku kaboko. Muganga wambaye impuzankano ndetse ufite imisatsi miremire arimo kumupima.

Umubyeyi n'umwana we bari mu gikoni barimo bategura ibigendanye n'amafunguro, arimo akata imboga n'icyuma ndetse imbere hari urunyanya n'intoryi, yambaye amadarubindi barebana baseke.

Umubyeyi n'umwana ku meza harambitse ibikinisho bitandukanye barimo kubyigaho bafite imisatsi miremire bose inyuma yabo hari ibikoresho bitandukanye byo mu rugo birimo utubati babikamo ibyo kunywa ndetse n'amatara.

Abantu biganjemo igitsina gore bambaye imyenda y'umukara n'umweru biganje barimo ku murongo bigaragara ko barishimye, bambaye udupfukanwa bamwe muri bo uruhande rw'abo hari urugi rwinjira aho bari ndetse n'igiti inyuma.

Umugabo ukuze uri kumwe n'umukobwa bigaragara ko ari umukobwa ufite imisatsi miremire cyane ndetse umugabo nawe afite umusatsi w'imvi yambaye umupira muremure ndetse n'igikanzu.

Umubyeyi n'umwana we bigaragara ko bari mu myitozo ngororamubiri barimo bagenza amaguru, umwe yiteze igitambaro cy'umutuku, undi afite imisatsi miremire yambaye imyenda y'umukara irimo imirongo y'umweru, ku ruhande hari ibiti byinshi ndetse n'indabyo.

Intoki zirimo gukina ikibuguzo n'igisoro, umusaza wicaye inyuma yacyo kikaba gikozwe mu byuma ndetse n'inka zisa n'umukara ndetse n'igitaka, hasi kikaba giteye amabara agiye atandukanye harimo umukara ndetse n'igitaka.

Umugabo n'umugore bigaragara ko bari imbere y'ameza barimo kurya. Hari ibiribwa n'ibikoresho bitandukanye birimo: imitobe isa n'umuhondo, imbuto zitandukanye zirimo: amacunga, ibirahuri, amasahani, bari gukoresha barya.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye harimo abazungu ndetse n'abirabura, bamwe muri bo bambaye udupfukamunwa n'indorerwamo inyuma yabo hari icyapa kinini cyane kiriho insanganyamatsiko bari kuvugaho.

Umugabo uryamye hasi ku gitanda cyifashishwa cy'ubutabazi, abaganga bambaye impuzankano ya kiganga ndetse n'imyenda yo kwifashisha birinda aribyo udupfukamunwa, imbangukira gutabara igiti kinini cyane kiri hafi aho.

Umugore ufite imisatsi miremire ubyibushye mu mu maso urimo aseka areba hejuru yambaye imyenda yiganjemo umukara n'ubururu, iruhande rwe hari icyapa cyo kwamamaza kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku.

Umugabo uhagaze ku ruhimbi, ku ruhande hari isakazamashusho yerekana uwo mugabo, ndetse hasi hari intebe ziharambitse, n'ameza hariho ibikoresho bitandukanye, ari byo amacupa y'amazi ndetse na mikoro zakira amajwi.

Mu cyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga benshi cyane bambaye bikwije ku mibiri yabo, bakaba bambaye udupfukamunwa ndetse n'ingofero zabigenewe n'imyenda y'impuzankano, ku gitanda haryamye umurwayi barimo kumwitaho ndetse hari n'ibikoresho by'ikoranabuhanga barimo kwifashisha bafata ibipimo by'umurwayi.

Abantu b'ingeri zitandukanye bateraniye hamwe abagore n'abagabo b'abayobozi bafite imisatsi, abandi bambaye amadarubindi, abazungu ndetse n'abirabura. Inyuma yabo hari icyapa kiriho insanganyamatsiko bari kuvugaho mu mabara y'ubururu ndetse n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye ariko akaba ari nijoro, inyuma y'abo haba insakazamashusho iriho amafoto y'abantu bagiye batandukanye bigaragara ko haribyo bari kuganiraho benshi muri bo bakaba bambaye amakoti y'umukara.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye birimo ibitanda intebe ndetse n'ubukarabiro bw'isuku amatara n'ibyuma byinjiza umwuka usukuye muri icyo cyumba amadirisha ndetse n'ibitambaro.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo ibikoresho bitandukanye ari byo ibitanda ndetse n'amagodora, ndetse n'imisego. Ibikoresho birimo isakazamashusho byifashishwa mu kugaragaza ibipimo by'umurwayi ndetse hakaba hari n'amadirishya agaragaza hanze.

Inzu y'ubucuruzi iriho icyapa kigaragaza icyo iyo nzu ikorerwamo hano cyanditseho ngo dukorana hasi hari ibinyabiziga bihagaze birimo amapikipiki ndetse n'inzugi zinjira muri iyo nzu igizwe n'ibirahuri .

Abantu b'ingeri zitandukanye, abagore ndetse n'abagabo bambaye bikwije ndetse imyenda y'ubwirinzi irimo udupfukamunwa, inzu ndende bigaragara ko ari kwa muganga. Inyuma hari ibiti ndetse n'akazuba n'inzugi zinjira muri iyo nzu.

Ikirere kitarimo ibicu bitanga imvura inzu ndende cyane z'imiturirwa zifite amatafari ndetse n'ibara ry'umweru ku bikuta biyubatse amatara maremare ndetse n'imbuga irimo umucaca n'indabyo nyinshi .

Mu mbuga inzu ndende igizwe n'ibara ry'umukara n'umweru ndetse n'ibyapa, hanze hari amabendera y'igihugu cy'u Rwanda abiri afatanye, hejuru hari ikirere kitarimo imvura ndetse n'amabati asakaje iyo nzu ari mu ibara ry'umutuku.

Inzu nini yubakishijwe amatafari ahiye n'inzugi z'ibirahuri n'amadirishya, hejuru handitsweho ngo aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ikigo cyo mu Rwanda gishinzwe kwakira ibibazo by'abahohotewe.

Inzu igizwe n'ibara ry'umukara ndetse n'umweru, ibikoresho byinjiza imyuka mu byumba by'iyo nzu, imodoka zihagaze mu mbuga, abantu bari mu mbuga z'iyo nzu, umuryango winjiramo ndetse n'ikirere kidafite imvura.

Mu cyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byiganjemo intebe zibajwe mu biti ndetse n'izigizwe n'ibyuma n'ibitambaro biboshye, inkingi zifashe inzu ndetse n'ibikoresho byinjiza umwuka muri icyo cyumba.

Inzu y'ababyeyi abantu benshi cyane bicaye hanze y'iyo nzu bambaye impuzankano barimo gufata ishusho y'urwibutso hakaba harimo abihaye imana ndetse bigaragara ko ari kwa muganga .

Kwa muganga icyumba kirekire kirimo ibitanda byinshi cyane, inzitiramubu ndetse n'ibitambaro bikingiriza umurwayi, amadirishya yo muri icyo cyumba ndetse n'amatara amurikira icyo cyumba.

Mu cyumba kinini cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, ari byo ibitanda bigezweho bikozwe mu byuma ndetse n'uburiri bwo kwa muganga, hakaba hari isakazamashusho hejuru ya buri gitanda, ndetse naho bagenzurira buri gitanda, amatara amurikira muri icyo cyumba.

Ikigo nderabuzima cya matyazo, icyapa kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru kiriho ikirangantego cy'igihugu, urugi rwinjira mu bitaro harimo abagore babiri ndetse n'umwana urimo gushokamo, hirya hari inzu ndende yubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'inzugi zinjira muri iyo nzu zikozwe n'ibiti, ku ruhande hari umuhanda muremure.

Mu nzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye, imbere hari abantu batatu ku meza hari amacupa y'amazi, abandi hari abanyamakuru bafashe ibikoresho bifata amashusho n'amajwi, inyuma hari icyapa kiriho insanganyamatsiko bari kuvuga.

Ibitaro bya kabgayi urugi n'umuryango winjira mu bitaro hasi hari umuhanda w'igitaka urimo igare, amazu menshi ndetse n'ibiti n'amatara maremare amurikira abo hasi, ikirere kitarimo imvura.

Inzobere mu buvuzi icyumba kirimo ibyuma by'ikoranabuhanga ndetse n'abaganga bambaye ,imyenda y'ubwirinzi iri mu mpuzankano y'umweru n'udupfukamunwa, ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo ibipima indwara ndetse n'indahuzo zabyo.

Mu cyumba cy'ishuri kirimo abantu b'ingeri zitandukanye harimo mwarimu abayobozi ndetse n'umuzungu ku ruhande imbere hari ikibaho cyanditsweho ndetse n'umunyeshuri mwarimu arimo kwerekera uko bakoresha bimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga byo gusukura amenyo.

Imodoka nyinshi zihagaze mu mbuga, inzu ndende y'umuturirwa igizwe n'amadirishya menshi y'ibirahure ndetse n'ibara ry'umweru riyisize ryiganje, ikirere kirimo ibicu bikeya kidatanga imvura bigaragara ko bugorobye.

Inzu ndende z'imiturirwa zifite amadirisha y'ibirahuri, hasi mu mbuga y'iyo nzu hakaba hahagaze amamodoka y'ubwoko butandukanye, utuyira tunyuranyuranamo twinjira muri izo nzu ndetse n'ibyapa bigaragaza igishushanyo mbonera cy'iyo nzu.

Mu cyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye ari byo, isakazamashusho, ibyinjiza umwuka uyunguruye, ibitanda by'abarwayi, impuguke mu buganga aribo abaganga, barimo bareba ibipimo ku masakazamashusho.

Mu cyumba cyo kwa muganga, abaganga benshi bambaye bikwije imyenda y'ubwirinzi, mu ntoki ndetse n'impuzankano yabo mu mabara y'umweru, ku meza harambitse ibikoresho birimo amacupa ndetse n'ibindi bifashisha mu nzu mpahabwenge.

Mu cyumba kwa muganga harimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, haryamye umurwayi ku gitanda yambaye agapfukamunwa ndetse abyibushye, bigaragara ko arwaye bakaba bamwambitse bimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kumupima indwara arwaye.

Ikigo nderabuzima cya Gishweru abantu benshi bahagaze abandi bicaye imbere y'inzu yubakishijwe amatafari ahiye afite inzugi ndetse n'amadirishya bikozwe mu byuma n'ibirahuri utuyira tunyuranyuranamo ahongaho .

Mu cyumba kwa muganga harimo ibikoresho bitandukanye ari byo ibitanda ndetse n'aho bagenzurira icyo gitanda, insakazamashusho ziri ku bikuta, ibirahuri birimo ururabyo ndetse n'amadirisha yinjiza urumuri muri icyo cyumba.

Inzu nyinshi utuyira tunyuranamo muri izo nzu, uruzitiro, ibyatsi ndetse n'indabyo biri mu mbuga y'izo nzu, ikirere hejuru gisa n'ubururu kidafite imvura, zikaba ziganjemo ziteye amabara y'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye birimo inzitiramibu ndetse n'ibitambaro bikingiriza umurwayi utagerwaho n'izuba, igitanda umurwayi aryamaho cy'ikoranabuhanga, buri kimwe gigizwe n'itara ndetse n'urugi rwinjira muri icyo cyumba.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga ndetse n'agace gato k'igitanda, isakazamashusho, indahuzo ndetse n'ameza arambitsweho ibyo bikoresho, birimo ibigenzura ibitanda ndetse n'ibigaragaza ibipimo by'umurwayi.

Inzu ndende igizwe n'idirishya, hejuru ku idirishya hari ibyapa biriho amagambo, ari mu nyuguti mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo ariyo ra, ca, ca, inzugi zinjira muri urwo ruzu ndetse rukaba rugizwe n'ibirahuri bibonerana n'abashinzwe umutekano bambaye impuzankano yabo.

Inzu y'ababyeyi, umurasire uri hanze, inzu ndende iri mu mabara y'umweru n'amadirishya agizwe n'ibirahuri n'inzugi zinjira mur’iyo nzu. Ikikijwe n'ibiti ndetse n'ikirere kitarimo ibicu byinshi cyane, amatara ndetse n'umuriro w'amashanyarazi winjira kur’iyo nzu.

Mu cyumba cyo kwa muganga kigizwe n'ibikoresho bitandukanye birimo ibitanda ndetse n'amagodora, ibitanda bigezweho, ibirahuri ndetse n'amatara yo muri ibyo bitaro, urugi ndetse n'aho baca binjira muri icyo cyumba.

Icyapa cyanditseho ngo Kigina, ibitaro bya Kigina mu rurimi rw'icyongereza, umugore uri ku nzira yinjira muri ibyo bitaro akaba ahetse umwana ndetse n'igitambaro, urugi rwinjira mu bitaro rugizwe n'ibyuma ndetse n'amazu y'ibyo bitaro.

Inzu ndende z'umuturirwa, ziri mu mabara y'umukara ndetse n'ubururu, zifite amadirisya arimo ibirahure ndetse n'inzugi z'ibyuma. Mu mbuga y'iyo nzu harimo imodoka yahahagaze, ndetse n'abantu bahari. Hejuru hari ikirere kigaragara ko nta mvura gifite.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umurwayi uryamye ku gitanda ndetse n'abaganga bari kumukurikirana bambaye bikwije imyenda y'ubwirinzi irimo ingofero udupfukamunwa ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa bafata ibipimo by'umurwayi .

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga ibitanda bigenzurwa n'ikoranabuhanga, isakaza mashusho ndetse n'iibyinjiza umwuka uyunguruye muri icyo cyumba, amadirishya akozwe n'ibirahure ndetse n'amatara.

Umugore n'umugabo bigaragara ko umubyeyi wambaye neza yikwije umugabo wambaye impuzankano ndetse n'ibikoresho bifashisha bapima umutima, inyuma hariyo ibyatsi n'indabyo insina bitandukanye ndetse n'inzu ku ruhande.

Abagore batatu bambaye impuzankano iri mu mabara y'ubururu ndetse biteze n'ibitambaro by'umweru, nyuma yaho hari inzira nyabagendwa ikozwe mu gitaka ndetse n'ibyatsi byinshi n'ibiti birebire cyane n'akazuba mu kirere.

Mu cyumba kwa muganga harimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, ari byo ibitanda, intebe ndetse n'aho babika, aho bacungira ibyo bitanda n'aho babigenzurira, ibikoresho byinjiza umwuka mwiza mu cyumba ndetse n'amatara.

Ikigo nderabuzima cya Shagasha, inzu nini cyane igizwe n'amadirishya n'imiryango yinjiramo imbere ndetse abantu bicaye ku ibaraza ry'iyo nzu, inyuma hari ibiti bitarimo kugaragara neza, ikirere kirimo ibicu bigaragara kare ni mugoroba.

Mu cyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye ari byo intebe ibitanda bigezweho insakazamashusho, ndetse n'aho bagenzurira ibyo bitanda by'ikoranabuhanga ibikoresho byinjiza umwuka uyunguruye muri icyo cyumba.

Mu cyumba cyo kwa muganga cyicayemo abantu benshi b'ingeri zitandukanye, abagore, abakobwa, ndetse n'abagabo, bose bambaye udupfukamunwa birinze bigaragara ko ari mu gihe cy'icyorezo. Umugabo umwe ahagaze imbere muri iki cyumba, harimo amadirisha agizwe n'ibirahure.

Umuhanda w'igitaka ndetse n'icyapa kiri mu mabara y'umweru cyandikishijeho amagambo mu mabara y'umukara hariho ngo umujyi wa Kigali, hirya mu muhanda harimo umutemeri mu mabara y'umutuku n'umweru ku ruhande hari urugo rwubakishije amatafari ahiye ndetse n'ibiti byinshi cyane hejuru.

Inzu ndende ndetse n'igice gitoya cy'umuhanda, imiryango yinjira muri izo nzu, igizwe n'ibirahuri ndetse n'ibyuma biteye irangi ry'umweru, ikirere hejuru gifite akazuba ndetse n'indabyo ziteye kuru ruhande rw'iyo nzu, yubakishije amatafari ahiye.

Inzu ndende y'umuturirwa urugi rwinjira muri iyo nzu ndetse n'imbuga yayo hakaba ahahagazemo imodoka nyinshi n'abantu batandukany,e icyapa kiri iruhande rw'urwo rugi ndetse n'umuhanda uri iruhande.

Mu cyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye birimo ibitanda, amagodora ndetse n'imyenda ifutse, ibikoresho birimo amatara amurikiramo hasi ndetse hakaba harimo impapuro n'ameza abaganga bakoresha bandika ndetse n'aho babika ibikoresho byabo.

Icyumba kinini cyane kigizwe n'inzugi zinjira, zisohoka mu bindi byumba ndetse n'amatara menshi cyane ari muri icyo cyumba kirekire; inkuta zacyo zigizwe n'ibara ry'umweru ndetse n'ubururu; n'ibyapa bigaragaza icyo buri muryango ukorerwamo.

Umusaza urimo yicaye ku ntebe iwe ari kumwe n'umukecuru wambaye impuzankano y'abaganga afashe ni'gikoresho gipima umutima, umusaza wambaye amadarubindi aseka agaragaza amenyo afite umusatsi w'imvi ndetse uwo mukecuru nawe akaba afite umusatsi muremure.

Abantu babiri umugore n'umugabo bari mu myitozo ngororamubiri buri wese afashe icupa, umugore yambaye isaha ku kuboko, hakurya hari imisozi miremire cyane bigaragara ko iriho ibiti n'amashyamba hafi yabo naho hari ibyatsi.

Ukuguru kumwe kurambuye ukundi guhinye amaboko yose akora ku kurambuye ndetse hari n'ikindi yambaye, umuntu wambaye imyenda y'umukara yiganje bigaragara ko ari igitsina gore, ku ruhande harambitse icupa ririmo amazi.

Umusore munini cyane ufashe icupa arimo kunywa amazi ariko atwereka igice gitoya cyo hejuru y'icupa, ufite ubwanwa ndetse n'ukuboko kunini cyane yambaye isengeri bigaragara ko ari umukinnyi.

Icupa ry'amazi, umukobwa wambaye imyenda y'umukara hasi no hejuru, wasobekeranije amaguru, ashize akaboko kamwe hasi, akandi hejuru, ananura imitsi yo mu mutwe, imisatsi ye ikora hasi. Inyuma ye hari ibikoresho birimo ibitambaro, ndetse n'inzu.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri, yarambuye ukuguru kumwe agusiga inyuma ukundi yagushyize imbere, azamuye amaboko afite imisatsi miremire yambaye imyenda y'umukara ku ruhande hari igikuta ndetse n'idirishya.

Umuntu w'igitsina gore umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri afite imisatsi miremire cyane yambaye isengeri hejuru ndetse n'agakabutura gatoya ko gukoresha imikino ngororamubiri byabugenewe ahari hari irangi ry'ubururu ryiganje .

Icupa ribikwamo amazi, icupa riri mu mabara y'ubururu rifungishijwe umufuniko wo mu mabara y'ubururu, amazi bisa naho arimo kugera hejuru mu mabara y'ubururu ndetse n'ibitonyanga by'ayo mazi bizengurutse kuri iryo cupa.

Umuntu w' umugabo wambaye imyenda y' umukara wifashe kw'itako apfukamye ukuguru kumwe ukundi guhagaze bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri yo kwiruka ari ahantu munzu kuruhande hari igikuta cyubatswe .

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye ari byo ameza isakaza mashusho, ama telefoni ndetse n'aho babika ibitabo byo gusoma, imwe munsakazamashusho ikaba iri mu ishusho y'umugore bigaragara ko ari umuganga.

Umugabo urimo agotomira amazi akoresheje icupa. Igice cyo hejuru mu maso cyose kitagaragara neza, yifashe mu manyankinya, yambaye umupira w'ubururu, ndetse yambaye n'ibikoresho bumviramo indirimbo.

Umusore w'ibigango, urimo ugotomera amazi ayakuye mu icupa, wambaye isengeri, bigaragara ko ari umukinnyi w'imikino ngororamubiri. Hakurya ye hatagaragara neza, bigaragara ko bwije, afite ukuboko kunini cyane.

Umugore wicaye arambuye ukuguru kumwe k'undi aguhinnye, ukuboko nako kurambuye gufashe ku kuguru, ukuboko kundi gufashe ku kuvi k'ukuguru, bigaragara ko ariri mu myitozo ngororamubiri inyuma ye hari ibikoresho birimo intebe zo kwicaramo ndetse n'ibirahuri by'amadirisha.

Mu cyumba cyo kwa muganga ku meza hari ibikoresho bitandukanye birimo za mudasobwa ndetse n'ibindi umuganga wambaye impuzankano umwana wicaye ufashwe na nyina wambaye agapfukamunwa kimwe na muganga ufashe igikoresho cy'ikoranabuhanga arimo gupima umwana .

Umusore ufashe icupa arimo agotomera amazi ufite ubwanwa bukeya ndetse n'umusatsi mukeya, igice cyo hejuru mu maso kitagaragara neza yambaye umupira ndetse afite n'ukuboko kubyibushye, hakurya ye hatagaragara neza hari igihu.

Umusore ufashe icupa arimo kunywa amazi, ikiganza kinini cyane kirifashe ndetse yambaye n'umudari mu ijosi, akaba afite ubwanwa ndetse yaniyogoshesheje afite umusatsi muke yambaye umupira uri mu mabara y'ubururu agotomera cyane.

Umugabo uryamye hasi hejuru hahagaze abandi bantu b'ingeri zitandukanye abakobwa ndetse n'abasore barimo bamuhambira amaguru ku ruhande hari ameza ndetse n'amadirishya agaragaza muri iyo nzu .

Ibiganza by'umuzungu bigaragaza imbere n'inyuma, byambaye imyenda y'ubwirinzi icagaguye ku ntoki, iri mu mabara y'umukara, bigaragara ko arimo kwamamaza iyo myenda y'ubwirinzi.

Mu cyumba cyo kwa muganga umurwayi uryamye ku gitanda yubitse inda barimo kumupima ku mugongo, umuganga wambaye yikwije imyenda z'ubwirinzi ku ntoki ndetse no ku munwa yambaye udupfukamunwa n'impuzankano y'abaganga.

Umuntu ufashe icupa ry'amazi mu biganza arimo agotomerara ayo mazi, umugabo ufite ubwanwa, amatwi ndetse n'amazuru, batagaragaza igice cyo hejuru cy'umusatsi yambaye umupira w'umukara, inyuma ye hari ibintu bimeze nk'ibyatsi.

Umuganga wambaye impuzankano ndetse n'ikarita mu gatuza, afashe ukuguru kw'umuntu uryamye ku gitanda yifashe neza mu maboko, arimo amurambura imikayo mu kuguru. Ku ruhande kugikuta hari urupapuro ruriho bimwe mu bice by'umubiri w'umuntu ndetse yambaye n'ipantaro y'umukara.

Umusore wambaye isaha ku kuboko n'inkweto ndetse n'ikabutura ngufi, igice cyo hejuru yambaye ubusa, arambuye ukuguru ndetse n'ukuboko kundi kumwe gukora hasi n'ukuguru kumwe guhinnye, bigaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri arambuye ukuguru kumwe ukundi guhinnye amaboko ye yose akora ku kuguru kurambuye yambaye ikintu mu kaboko yambaye ndetse n'imyenda isa n'umukara, inyuma ye hari ibyatsi.

Icyumba bakoreramo imyitozo ngororamubiri. Umusore wazinze imisatsi ndetse wambaye imyenda y'imyitozo ngororamubiri, aryamye ku gitanda, bigorora, ari kumwe n'umuzungu wambaye ingofero, amutoza.

Ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, mudasobwa irambitse ku ruhande, icupa ry'amazi ndetse naho yicaye, umugore wicaye hasi ku kirago ndetse azamuye amaboko yambaye imyenda y'umukara bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Icupa ririmo amazi barimo kuyasuka mu kirahuri cyo kunyweramo ayo mazi, aho kirambitse naho hariho ririmo ayo mazi bari gusuka muri iryo cupa, rigizwe na purasitike, rikaba rifite umunwa uriho akantu k'umutuku.

Ibiganza bifashe umupira w'intoki, umuntu wambaye impuzankano y'umweru ndetse n'igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ijosi, yifashishwa gupima uko umutima utera, umwera gice cy'umubiri w'umuntu kigufi baterekanye umutwe.

Umuntu wunamye warambuye amaboko ahinnye amaguru yafunze imisatsi inyuma, ndetse n'ubwanwa bugaragara, bigaragara ko ari umugabo urimo gukora imyitozo ngororamubiri, mu cyumba arimo inyuma harimo intebe ndetse n'amadirishya.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru, harimo abakinnyi batandukanye bari gukora imyitozo umwe muri bo aryamye hasi barimo bamukanda ku ivi, n'umuganga apfukamye, iruhande hari umupira bakoresha bari gukina.

Kwa muganga abaganga bambaye impuzankano ndetse n'imyambaro y'ubwirinzi yabugenewe umurwayi uryamye ku gitanda, isakazamashusho igizwe n'igikoresho kifashishwa bapima ibimenyetso by'indwara y'umutima kwa muganga.

Ubwoko bw'ibiryo bitandukanye birambitse aha ku musambi ndetse n'ibikoresho byifashishwa birimo ibibindi ndetse n'ibindi bibajwe muri ibyo biryo twabonamo nk'imbuto ndetse n'imineke.

Mu nzu mpahabwenge hicayemo umugabo, ku meza harambitse amacupa arimo imiti ndetse afashe n'ibipimo bakoresha bapima iyo miti, ku ruhande hari aho babika iyo miti ndetse n'intebe n'ameza byo kwicaraho.

Mu isoko rigari ririmo ibicuruzwa bitandukanye ndetse n'abaguzi b'ingeri zitandukanye, amacupa arimo amavuta, hirya hari imboga zirimo intoryi ndetse n'ibwisha, amadomoro arimo amavuta yo guteka.

Igisubizo kuri amibe, igihe icyapa kinini cyane kiriho amashusho atandukanye ni nk'amacupa ari mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku ku ruhande umuntu wifashe ku nda n'ibiganza, hasi ye hari indi shusho igaragazamo imbere y' mu nda y'umuntu ndetse bigaragara ko bari kwamamaza umuti ukoreshwa mu kuvura inzoka.

Amababi ndetse n'igiti cy'avoka giteye ahantu bigaragara ko hari aho bakinajije kizakurira, ku ruhande rwacyo hari ibindi biti byinshi cyane byijimye ndetse n'igisesero aho binajirije icyo giti.

Umugore ufashe igikapu mu kuboko yambaye impeta ndetse yakindikije imyenda, afite umusatsi muremure kuruhande hari amababi y'ibishyimbo ndetse n'urutoki rw'insina.

Ikibabi cy'igiti cyitwa ikibonobono kiri ahantu mu murima, ku ruhande hacamo imipira itwara amazi ndetse n'ibindi biti bitandukanye, birimo ibiribwa ndetse n'ibitaribwa muri uwo murima.

Ibyatsi byinshi byiganjemo indabyo ndetse n'ibindi birebire. Umuntu uri inyuma yabyo wambaye imyenda iri mu mabara y'umutuku ndetse n'umukara hariho n'igishushanyo cy'umweru, arimo gusoroma amababi y'ibyo byatsi.